Aba agent bakorera ishami rya MTN, hari umutaka w'ibara ry'umuhondo wanditseho MTN, hari umukiriya, hari uwambaye umwenda w'akazi ,hari intebe, hari imodoka, hari inyubako.

Abantu benshi bari mu gikorwa gitandukanye harimo niba ari amasabune cyangwa ama ji ntabwo ndi kubibona neza, hari udukombe turimo ubuki dufite ibara ry'umuhondo, harimo ubuki hari abantu bari kudukoresha ni nka koperative runaka cyangwa se banki.

Umucuruzi ucuruza ibintu bitandukanye harimo indagara, ubunyobwa, ifu, isukari amavuta y'ubwoko butandukanye, amakaroni, ajya kubirangura akabizanira abakiriya yambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'akazi.

Urusengero hari abantu benshi bari mu gikorwa gitandukanye, abenshi muri bo bambaye imyenda y'ibara ry'umweru hari na padiri wambaye imyenda y'ubupadiri, hari intebe bose bafite amaseritifika cyangwa impapuro runaka bari gukora igikorwa runaka.

Abantu babiri bari muri hoteri cyangwa se moteri bishimye, bari gusangira begereye ameza baricaye bari kunywa inzoga zo mu bwoko ntazi bari guhana ciyazi bari kunywera mu birahure.

Hoteli cyangwa se moteri ifite jaride nziza isa neza, harimo ibintu bitandukanye, hari pisine, hari inyubako, hari ibiti byiza, hari indabo, hari ibyatsi hari ahantu ho kuruhukira hameze neza.

Abantu bari gucuruza aha hantu bacuruza imyenda y'ubwoko butandukanye harimo ibitenge byo mu bwoko butandukanye harimo london, haribadozi.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bari gukora ibikorwa bitandukanye, harimo ubucuruzi, hari abari gucuruza ibitoki, harimo imodoka z'amakamyo zipakiye imifuka irimo ibindi runaka, bavuye kubirangura ahantu, bakajya kubicuruza ahandi. Hari amagare.

Isoko ririmo umucuruzi hari ibicuruzwa bitandukanye, harimo imboga zo mu bwoko bw'amashu nyinshi cyane, bajya kuzirangura mu cyaro bakazijyana kuzicuruza mu mujyi.

Ikinyabiziga cy'ubwoko bwa moto kiriho icyapa cy'umuhondo cyanditseho ri magana ane mirongo irindwi n'ikenda di hari umuntu uri kuyerekana, iri ahantu heza hari ibiti biteye ku ruhande.